Isoko ririmo abantu ariko bigaragara ko ari isoko ry'imboga, ko hano hari ibishyimbo byi by'ibitonore, umumama ari gucuruza hirya mu isoko ry'imboga n'imbuto.